Inyubako nziza cyane, iyi nyubako ikaba igaragaramo ikigo cy'amashuri y'inshuke, hari kugaragara aho batekera ndetse n'aho bigira. Abana ni byiza ko bigira ahantu hatekanye, mu rwego kugira ngo bagire ubumenyi kandi buhamye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bakunze kubasobanurira amasomo bifashishije bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye. Ahagaragara utumodoka, indobo ndetse n'ikindi gikoresho bifashisha buhira imyaka kizwi nka ruzwari.

Ibi ni bimwe mu bishushanyo bashushanya, ku byumba by'amashuri y'inshuke. Ibi bigatuma abana bakura bazi inyamaswa ndetse n'amazina yazo, kuko babishushanya bakabyandikaho n'amazina yabyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, ni bamwe mu banyeshuri bajya ku ishuri bitewe n'ibishushanyo biri ku nkuta z'ishuri ryabo, kugira ngo bajye kureba niba bitirukasi ,cyane ko abarimu babikoresha nka bumwe mu buryo bwo gukangura ubwonko bw'abanyeshuri babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bakunze kubereka ibipupe mu rwego kugira ngo babone ko abana ari beza kandi bitonda, hari ibipupe byicaye bituje bitatu kimwe kirimo ibara ry'umuhondo, ikindi ubururu n'ikindi kikaba kiri mu muhondo ucuye.

Aha ni ahabera ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye turi kubonamo iduka ryiza cyane kandi rikinguye, rikaba ririmo imifuka myinshi ndetse n'amakarito. Aho umucuruzi avuga ko aha hantu acururiza nta bakiriya ajya abona.

Mu bigo by'amashuri y'inshuke hagaragara abana bakiri bato aho ukunze gusanga bari hanze kuko ibyo kwicara mu ishuri baba batabikozwa. Hari utwana duto cyane turi kuhagaragara kandi bigaragara ko turi kwikinira nta kibazo dufite.

Ku nkuta z'amashuri y'incuke usangaho ibishushanyo bigiye bitandukanye, ibi bishushanyo bigafasha abana gukangura ubwonko ndetse no gukunda ishuri, ibi byemezwa n'abarezi babo kuko bavuga ko aribyo bituma baza ku ishuri buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke babigisha bifashishije indabyo, bifashishije udupupe, bagakoresha ibimenyetso, aho niba ugiye kubigisha umugezi uba ugomba kujya kuwubereka, wajya kubigisha ubwogero nabwo ukabubereka.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze gukorerwa udushushanyo tugiye dutandukanye dutuma ubwonko bwabo bukanguka kandi bagatekereza kure, aha ni udushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Hirya no hino mu gihugu usanga kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bisaba kuba ufite ibishushanyo ndetse n'ibindi bintu bituma abana bakunda ishuri. Aho ubibereka bityo bigatuma buri gihe baza aribyo waje kureba, bigatuma uboneraho no kubaha andi masomo.

Aka ni agapupe abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke bifashisha mu rwego rwo kugira ngo basetse abana, bityo bakunde ishuri bage bazinduka barigana aho kugira ngo bagende banga.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ni byiza kubaha icupa ririmo igikoma kuko bakunda gusonza vuba kandi bagakenera kurya, baba bakiri bato kandi ni ingenzi ku bana bato.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abarimu bifashisha mu gihe bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, aho babereka utumodoka cyangwa se udutete, bigatuma aba bana bakunda ishuri, bityo bakoboneraho kwiga n'andi masomo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubigisha bifashishije ingero ziriho ibishushanyo, maze bakabigisha imibare n'inyuguti, bityo aba bana bakabasha kubifata mu buryo buboroheye kandi vuba.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bakunze guhabwa imyitozo mu rwego kugira ngo barebe niba ibyo bigishijwe babyumva. Ibyo mwarimu abikora agamije kugira ngo arebe abafite ubumenyi buri hejuru y'ubw'abandi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke babafasha kwiga hifashishijwe udushushanyo tw'utunnyamaswa, aho bibafasha gukangura ubwonko bwabo kandi bakanungukiramo ubumenyi bugiye butandukanye, nk'inyuguti ndetse n'inyajwi.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, iyo bagize amasabukuru y'amavuko, ukunze gusanga babagurira ingofero ziri mu mabara agiye atandukanye ndetse zitatseho n'utunyenyeri tugiye dutandukanyekana, bityo bakishima.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ukunze gusanga abarimu babo bifashisha ibishushanyo maze bakabasobanurira amasomo biga. Aba bana bituma bakurana ubumenyi n'ubuhanga bakura mu gusobanurirwa hifashishijwe izi ngero.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, abarimu babo bakunze kubashyira ku mirongo, maze bakabigisha uko bahagarara, hari kugaragara abarimu babiri b'abakobwa, bakaba bari kwigisha aba bana indangagaciro z'abanyarwanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bishimira kubona udushushanyo tugiye dutandukanye cyane cyane uturiho abana bangana nabo, bari gukora ibintu by'indashyikirwa kuko bituma nabo bagira ishyaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigishwa hakoreshejwe ibipupe, aho bigenda bibafasha gukangura ubwonko bwabo bityo bagakurikira mwarimu, bikabarinda kurambirwa maze bakagira icyo bunguka.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ukunze gusanga ku nkuta z'amashuri bigaho hariho ibishushanyo ndetse n'amazina yabyo, mu rwego rwo kugira ngo aba bana babashe gusobanukirwa ndetse no kugerageza kubifata mu mutwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'insuke ukunze gusanga bigishwa kandi bakanasobanurirwa bimwe mu bibafasha amasomo yabo, aho bifashisha imyidagaduro cyane kugira ngo aba bana bafungure ubwonko bwabo kandi bakunde gukora.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ukunze gusanga babigisha bifashishije zimwe mu ngero. Ibi bituma aba bana bafunguka mu bwonko kandi bagakunda kwiga. Ibi kandi bituma na mwarimu akazi kamworohera.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, bakunze kwifashisha bimwe mu bikoresho, mu rwego kugira ngo bishimishe kandi bakunde ishuri. Ibingibi abarimu babo barabibemerera ndetse bakabibafasha, mu rwego rwo kugira ngo bisanzure ku banyeshuri.

Ku byumba by'amashuri y'inshuke, ukunze gusanga hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye, ibi bishushanyo bifasha abanyeshuri, kumenya amazina y'ibyo bishushanyo, bityo bagakura babishyira mu bwonko.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubigisha bifashishije bimwe mu bikoresho nk'ibishushanyo bishushanyije nk'imbuto ndetse n'inyanya, aho babibereka bakababwira imibare ndetse n'inyuguti.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke kugira ngo ubigishe ,bisaba kuba ufite bimwe mu bikoresho wifashisha. Niba ari ikote ukaribereka, niba ari ipantaro ukayibereka ndetse niba ari n'umwana ukamubereka, ibi bituma abanyeshuri bakurikira kandi bakamenya ibintu kandi vuba.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati atukura, hanze kuri iyi nyubako hari ibikapu byinshi cyane, nk'uko bigaragara ni mu kigo cy'amashuri abanza, abanyeshuri bahiga bakaba bari mu bizami.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, mbere yo kujya ku ishuri babanza gusere ababyeyi babo, maze bakabaha amakayi n'amakaramu, ndetse n'impamba y'ibyo kurya barira mu nzira, bityo bakiga neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kubigisha bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye, mu buryo bwo kubigisha imibare ndetse n'indimi, aho ibi bibafasha kandi bakunguka ubumenyi vuba.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, batonze imirongo, bambaye impuzankano y'ishuri, iri mu ibara ry'ubururu n'umukara, bambaye udupfukamunwa, bakaba bambaye n'inkweto ndetse n'amasogisi, bari kumwe n'abashinzwe umutekano.

Uyu ni umusore uri mu kigo cy'amashuri, aha ni mu kigo cy'amashuri abanza, hakaba harimo inyubako zubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, hakaba hariho inzugi n'amadirishya by'ubururu, uyu musore ari kwigorora, ahabereye ikiganiro kuko hari isakazamashusho n'insakazamajwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigira mu makayi abafasha kumenya kwandika neza inyuguti ndetse n'imibare ndetse bifashisha n'ibikoresho bigiye bitandukanye, ibafasha mu kwiga neza ibyo biga.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abarimu bifashisha mu gihe bari kwigisha, abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, aho usanga bifashisha ibishushanyo mu rwego kugira ngo bakangure ubwonko bw'abana bityo bige kandi bamenye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza babigisha bifashishije ingero z'amashusho y'abantu, aho bazana utwana bakadushyira ku murongo bakajya bavuga bati"uyu ni Ganza, uyu ni Keza, uyu ni Shema ndetse uyu ni Isaro, mu rwego rwo kugira ngo basobanukirwe izo nyuguti.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, muri iyo nyubako harimo ibyuma bifashe ikigega ndetse hakaba harimo n'itara rimurika muri iyi nyubako, aha hakaba ari mu kigo cy'amashuri.

Iyi ni inyubako y'amashuri abanza. Ni amashuri yubatse neza cyane yubakishije amatafari ahiye, akaba asakaje amabati y'umutuku. Hari utuyira dusashemo amapavue ndetse n'ubusitani bugiye buri ku mpande.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza babigisha bifashishije udushushanyo tugiye dutandukanye haba utw'imibare ndetse n'utw'inyuguti. Ibi bigatuma abanyeshuri bakurikira, bagashishoza kandi bakamenya neza ibyo bigishwa n'abarimu.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza ukunze gusanga bigira ku tuntu tw'udushushanyo twiza cyane tubafasha gukangura ubwonko bwabo bityo bikabafasha kwiga inyuguti ndetse n'inyajwi bakabimenya.

Ababyeyi ni ngombwa ko bita ku bana babo, aba ni abana biga mu mashuri abanza, umubyeyi ari kubaha amafunguro mbere y'uko abohereza ku ishuri, aho bagaragaza ko umubyeyi aba ari ku isonga muri byose.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, ukunze gusanga babaza abanyeshuri, mu rwego rwo kugira ngo bizere neza ko ibyo bari kwigisha byumvikanye, uyu ni umwarimu uri kwigisha isomo ry'imibare, akaba ari kubaza abanyeshuri, uwaba wabonye igisubizo.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'amashuri abanza, abanyeshuri biga mu mashuri abanza, usanga ku byumba by'amashuri byabo hamanitseho, bimwe mu bibafasha kwiga, haba inyuguti ndetse ingombajwi n'inyajwi, ugasanga biri ku nkuta.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bifashisha bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye bikangura ubwonko bwabo, harimo ibiri mu dukarito, hakabamo ibitabo, amakayi ndetse n'amakaramu, ibyo byose bakabyifashisha babigisha kwandika ingombajwi n'inyajwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza babigisha bifashishije ingero, aho iyo ugiye kwigisha umunyeshuri, ugenda witwaje igishushanyo kiriho ibishushanyo byose ugiye kwigisha, niba ari ishoka, inkero ndetse n'imipanga byose ukabibereka bishushanyije ndetse biriho n'amazina yabyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye, bituma bamenya gushushanya, guca inziga ndetse n'ibindi, bikaba biba muri aka gasanduku kari hano.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abarimu babo babigisha bifashishije ingero z'ibintu bifatika, aho batwara utuntu dushushanyijeho ibimenyetso ndetse n'imibare yose bajya kwigisha inyuguti nabwo bakajyana uturiho inyuguti zose.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakenera mu rwego rwo kugira ngo bige neza, aha harimo ibikoresho bibafasha guca inziga ndetse n'ibibafasha guca imirongo, bigatuma biga neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu ndetse na kacyi, imbere yabo hakaba hari ababyeyi babiri, aba babyeyi bigaragara ko bari gutura ndetse aho abana bateze utubase, ababyeyi nabo bagiye gushyiramo.

Izi ni inyubako nziza cyane, hakaba haberamo uburezi bw'abana biga mu mashuri abanza, aha ngaha usanga abana bishimira kuza ku ishuri, bitewe n'uko ibyumba by'amashuri biba byubatse neza cyane.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, bifashisha bimwe mu bishushanyo, mu rwego kugira ngo bigishe abanyeshuri kandi bumve ibintu neza uko bikwiye, ibi bikaba birimo guca uruziga ndetse no gushushanya zimwe mu mfuruka.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, harimo umukobwa ndetse n'umuhungu. Aba bombi bahawe ishimwe ry'uko babaye indashyikirwa, bakaba baribifite mu ntoki, bari kwifotoza, barishimye cyane.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'amabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yabo hakaba hari ushinzwe umutekano w'umupolisi, ari kugenda abacungira umutekano, bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye iyo bari mu gihe k'isuzumabumenyi usanga buri wese aba ari gukora ibye kandi atuje, ibi bigatuma umuntu ava mu mashuri yisumbuye afite ubumenyi.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, iyi nyubako ikaba izengurutswe n'ibyuma biri mu ibara ry'ubururu ndetse harimo n'abantu bambaye amajire y'abakorerabushake, aha ngaha bigaragara ko habera ibikorwa rusange.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, mu myuga ndetse n'ubumenyin ngiro, batozwa gukora imirimo igiye itandukanye, aho batangira gushyira mu bikorwa ibyo biga bakiri ku ishuri, bityo bikazaborohera basoje.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba ari abahungu ndetse n'abakobwa bose bambaye amabaji mu ijosi, bakaba bari kumwe n'umusore bigaragara nk'aho ari umuyobozi wabo yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka, bafite icyapa kiri kugaragaza yuko bari muri iki gikorwa ndetse bakaba bambaye n'imipira ibigaragaza.

Uyu ni umumama akaba ari umurezi mu kigo cy'amashuri yisumbuye. Abarezi barera abana biga mu mashuri yisumbuye, bavuga ko bibagora cyane cyane ko baba batangiye gukura, ibyo bigatuma batumva ibyo bababwira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakunda kubaha amashimwe y'ibyo bakoze by'indashyikirwa, mu rwego kugira ngo babongerere morale n'ishyaka, bityo bakomeze batsinde amasomo yabo, aha hari umunyeshuri uri guhabwa ishimwe n'umurezi we.

Aba ni abakozi ndetse bakaba bari kumwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aba banyeshuri, bakaba bari gushyira mu ngiro ibyo biga, bari ahantu hari kugaragara ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gihe bari gushyira mu ngiro ibyo biga.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano nziza cyane bahurijwe hamwe. Aba banyeshuri bombi barishimye cyane kandi ni byiza guhuza abanyeshuri kuko bituma bishimira ko baba bahuye na bagenzi babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru ndetse na kaki. Hakaba harimo umwana umwe w'umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi. Bose bateraniye hamwe bigaragara ko hari ikintu bari kuganiraho.

Uwo musore wiga mu mumashuri yisumbuye, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu yatebeje, akaba afite igikombe cyiza cyane mu ntoki, bigaragara ko yabaye indashyikirwa, mu bijyanye no gusoma ndetse no kubara inkuru.

Umunyeshuri wiga mumashuri yisumbuye yambaye ipantaro ya kake ndetse n'ishati y'umweru, yambaye umupira w'imbeho w'icyatsi kibisi yabaye indashyikirwa mu bandi bose, abarezi bakaba bari kumuha igihembo cy'igikorwa yakoze.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bishimiye intera bagezeho, bose bamanitse amaboko bari gusingiza Imana kandi bishimye cyane. Ibi ni byiza cyane kuko bituma nabo biyumva neza.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba biga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, aho bari muri Laboratwari bakaba bari gusobanurirwa neza ibyo biga, mu rwego kugira ngo nibasohoka hanze, bajye babikora uko bikwiye.

Aha ni mu mashuri yisumbuye akaba ari mu isomero aho harimo ibitabo bigiye bitandukanye bimanitse mu mayetajeri ndetse hakaba n'ibindi biteretse ku meza, hakaba hari udutebe tw'imbaho aho abanyeshuri bicara bari gusoma.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye ahantu hamwe bambaye impuzankano, bose bari kureba mu cyerekezo kimwe, bigaragara ko hari umuyobozi wabo uri kubagezaho impanuro zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo bakurikirane amasomo yabo neza.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye ahantu hamwe bicaye ku ntebe za pulasitiki bambaye imyambaro y'umweru hejuru, imbere yabo hari umutegarugori wambaye ikote ry'umukara n'agapira k'uburur,u wazamuye igikaratasi afite indangururamajwi ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, usanga bicara mu ntebe nziza cyane ndetse bakanandikira ahantu heza, ibi bigatuma buri mwana wese wiga mu mashuri yisumbuye, aharanira kuzagera no muri kaminuza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, usanga bigira ku bibaho byiza, kandi ugasanga nta mwanda ubiriho, kuko abarimu babigisha bandika utuntu duke, bityo bigatuma ibibaho byabo bigira isuku.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, ukunze gusanga bafite ubugeni budasanzwe aho baba ari intyoza mu gusoma ibitabo ndetse no mu gukora udushya tugiye dutandukanye. Ibi bigatuma bakenerwa ku isoko ry'umurimo.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza bakaba bambaye imyenda isa, aho bambaye imipira myiza cyane y'umukara harimo umwe wambaye amarinete n'undi umwe wambaye ingofero, aho bafite icyapa mu ntoki cyamama bavuga yuko gutanga amaraso uba utanze ubuzima.

Aha ni ahantu heza cyane hari kugaragara indabyo ndetse n'ubusitani bwiza, hagati muri ubu busitani, hakaba harimo ibyuma bifasha ikigega ndetse ahagaragara ko ari ahantu nyaburanga cyangwa se ahantu hari igikorwaremezo cya Leta.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bigira mu mashuri meza aba armo ibikoresho bihagije, kandi bajya gukora ibizami bakabikora bakoresheje ubushishozi, kuko baba barize kandi basobanukiwe.

Abanyeshuri biga muri kaminuza zigiye zitandukanye ndetse n'abiga muri kaminuza z'imyuga n'ubumenyi ngiro ,usanga bakora ibintu by'ubugeni bigatuma ababonye bababonamo ubuhanga bwabo kuko budahangarwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, ab'imyuga ndetse n'ubumenyingiro usanga bakora ibintu byiza cyane by'ubukorikori, aho babikorera ahantu heza. Izi ni nitebe za pulastike ndetse n'izindi zikoze mu mbaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, abiga mu myuga ndetse no mu bumenyingiro, usanga baba bafite ubugeni budasanzwe, aho umunyeshuri akora igishushanyo nawe wakirereba, ukacyitegereza ukabona kirimo ubudasa.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza. Bakaba baba bakora ibintu bigiye bitandukanye, aho bashushanya buri kintu cyose bagiye gukora bityo bakabikurikiranya uko babigennye nta na kimwe basize inyuma.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga muri kaminuza z'imyuga n'ubumenyingiro, usanga bifashisha bimwe mu bishushanyo, maze bakagaragazamo ibintu by'indashyikirwa bigaragara neza ku buryo wabibonye babona ubuhanga bw'ababikoze.

Aba ni abanyeshuri, barangije amasomo yabo muri kaminuza, bambaye amakanzu ndetse n'ingofero, imbere yabo hari uri gutambutsa imbwirwaruhame, ababwira ko impamyabumenyi bahawe, zigiye kubagirira umumaro mu minsi izaza.

Aha ni ahantu heza cyane, hari ubusitani burimo ubuso bunini, hakaba hazengurutswe n'indabyo ndetse n'amapasiparumu, abagenda aha hantu, bishimira ukuntu ari heza kandi hakaba ari n'ibiti bitanga umuyaga.

Ku byumba by'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye cyane cyane aya kaminuza, usanga bashyiraho nimero mu rwego rwo kugira ngo umwarimu ndetse n'abanyeshuri bamenye aho bahurira.

Inyubako nziza cyane y'amashuri ya kaminuza. Abanyeshuri biga muri kaminuza bigira ahantu hari inyubako nziza ndetse hakaba n'ubusitani bwiza, aho haba hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uru ni urubyiruko ruteraniye ahantu hamwe, bose bameze neza cyane baricaye barakurikiye bari gusobanurirwa. Ni abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse bikaba bigaragara ko bafite inyota yo kumenya.